Umunara ukurura, utuma abantu babasha gutumanaho bari mu duce dutandukanye, n'ibara ry'ubururu ry'ikirere, bikiri ku mpande.

Umuhanda ukorerwamo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ubucuruzi. Harimo ibinyabiziga by'ibinyamitende, bitwawe n'umuntu ndetse binahetse abandi. Hakabamo n'ibinyabiziga bindi bigiye bitandukanye...